Abanyeshuri bigaragara ko bari kwiga compiyuta, bari mu nzu aho compiyuta rumu ,aho bigira isomo rya compiyuta, umwarimu ari kubafasha kubereka, ari kubahugura ku bakora compiyuta cyangwa icyo bakoramo.

Abanyeshuri bari gupima bakoresheje nivo, bagakoresha n'ikamba, basa n'aho ari abanyeshuri biga ubwubatsi bari gupima ahantu hazashyirwa inzu ho kubaka inzu, bahashinze n'ibiti by'imambo kugira ngo babashe gupima, bigaragara ko bose bahuze barikwigishanya, bari gusobanurirana uko bikorwa.

Abanyeshuri bari kwiga kubaza, abakozi bari kubanza bigaragagara ko ari ibarazo rigezweho, rifite imashini kabuhariwe zikora imirimo yo kubaza, n'abakozi benshi cyangwa abanyeshuri benshi baje kureba ibikorerwa aho hantu, bambaye n'amasarubeti, bambaye na ga, ibikoresho by'ubwirinzi.

Gukora imirimo y'ubusuderi ukoresheje gukatira ibyuma hakoreshejwe imashini ya ponseze ikata ibyuma. Abakozi babizi babikoramo bambaye ibisarubete ndetse babikora, uko bigaragara babigize umwuga kubera ko bafite ibikoresho bihagije.

Umunyeshuri uzi gushushanya washushanyije umuntu, intore iri kubyina umuntu ufite ingabo, akaba afite n'icumu, agaragara nkuri kubyina imbyino gakondo nk'uko bigaragara mu ifoto.

Abahinzi b'abagoronome bari gukora bikiniyeri, aho batuburira imbuto cyangwa aho bakuriza ingemwe z'ibihingwa. Nk'uko bigaragara harimo abakozi benshi, bagiye batandukanye bari gukora muri uyu murima wo gutubura ingemwe cyangwa gukuza ingemwe z'imyaka.

Umuntu uri gucomeka ibikoresho by' amashanyarazi, kubera ko ari mu cyumba cyo gukontororeramo ibikoresho bigiye bitandukanye, uko biri harimo ibikoresho byihutirwa no kwakirizaho, aho gucomeka, ndetse naho kwakiriza, ibintu bitandukanye kuko bigaragara ko ari icumba gikontororerwamo ibintu bitandukanye, harimo ibyananiranye gishobora kuba icumba cyo kukontoreramo ibigenderanye n' amazi yo ku rugomero cyangwa amashanyarazi, amashanyarazi mugihe(...).

Inzu ikoremo umurimo wo kudoda, irimo abatayeri urabona ko hariho imashini nyinshi, abantu bashobora kuva bakadoda bashobora kuba banigisha kubera ko ari hanini cyangwa kaba kapani ikora imirimo y'ubudozi, ubudozi bw'imyenda igizwe n'abadozi benshi bihurije hamwe kandi bakorera hamwe.

Ikigo kirimo imikino y'abana, aho abana bakinira kigaragara ko kigamo abana, hari amashuri y'abana mato ya garidiyeni ndetse akaba n'amashuri abanza ya pirimeri hakaba arimo ibibuga bigaragazwa ko hari inyubako nini ntako ari ikigo kinini cyane.

Umukozi ukora ibikoresho bya elegitoroniki cyangwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, ufite imashini yo guteranya imibare, ndetse afite udukoresho two gukoresha mu gufatanya insinga, ndetse n'ibindi. Bigaragara ko ari umukozi utari wagera ku kigero cyo hejuru, ukora utuntu tworoheje, ukorera mu giturage cy'ahantu runaka.

Abanyeshuri biga gukanika ibikoresho cyangwa imashini. Uko bigaragara bari kubikora ko ibyapfuye ibikoresho by'mashanyarazi bishobora kuba byarapfuye . Ibikoresho bikoreshwa amashanyarazi kuko bigaragara ko kugerageza kureba ikibazo imashini ya imashini ishobora kuba ifite bakaba bayikora.

Abanyeshuri bari kwereka umutetsi amanota kuri biroti zabo cyangwa indangamanota zabo nkuko bigaragara ko bafite ibipapuro biriho amanota ariko kugenda areba aya buri umwe cyangwa amanota umwe yagiye agira bigaragara ko ari umutetsi yambaye umwambaro imbere ukamugaragaza nk'uwo abantu bambara bateka.

Abanyeshuri bari gufunga igikoresho bafunguye kimeze nka radiyo. Bigaragara ko bari gukoresha ibikoresho bya bugenewe ngo babashe kugifunga neza. Bambaye imyenda ndetse n'ingofero by'abatekinisiye, bigaragaza ko ari abantu bakora ibikoresho bya elegitoroniki, bakaba bari gukora cyangwa gufunga iradiyo bari bafunguye.

Umukozi ukora amaterefoni wega ko ari gukora terefoni, ukoreshe gukora amaterefoni ukoreshe udukoresho duciririzwa bu bidahenze cyane abari ahantu bakora amaterefoni, bifashishije ibikoresho bidahenze cyane ko yafunguyekuwe mu gitanda nk'igikoresho ariko reba cyo gukora.

Abanyeshuri bari mu cyumba cya kompiyuta, aho bari kwiga gukoresha mudasobwa, bari gukoresha ibikoresho bya kompiyuta bari kureba muri kompiyuta, bari kumwe n'abanyeshuri benshi bahasuye aho bari kwiga ibijyaniranye na mashine.

Abanyeshuri bari kumwe n'abarimu babo byumwihariko harimo abanyeshuri bambaye amataburiya ndetse n'abanyeshuri bambaye impuzankano. ni ikigo c'amashuri hariho n'ikirangantego cy'igihugu kuko ikigo kiboneka mu rwandako. Hakorerwaibintu bijyanye no gushushanya bigaragaza ko ari abanyeshuri bishimye cyane.

Abanyeshuri bari kwiga biga ibintu bijyaniranye n'amazi no guhuza amatiyo ndetse no guteranya amatiyo. Uko bigaragara bafite amatiyo agiye atandukanye bari gukoresha bari kwambukenya bari gukora konegisiyo cyangwa amahuriro y'amatiyo, guteranya amatiyo.

Ishusho igaragaza ibikoresho bigiye bitandukanye nko gukoreshwa n'abatekinisiye, harimo wo amasupana byo gukora ibikoresho bikoreshwa ku modoka cyane, bibonekamo amasupana ,ibintu byamatonayi ndetse n'amapensi bigaragara ko arizo bakoresha mu gukora amamodoka, mu buryo bugiye butandukanye.

Umupolisi uri mu ishuri, mu banyeshuri, asa n'aho ari kubereka ibintu by'ikiganiro ari kubaha, asa n'uri kubereka ibintu mu ntoki afashe, bikaba bigaragaza ko hari ikntu ari kubereka nko kubaganiriza ku bintu by'ibiyobyabwenge se cyangwa hari inyigisho ari kubaha muri rusange z'umwihariko mu kigo cy'abanyeshuri mu ishuri barimo.

Abanyeshuri bari hamwe bari kwiga, bari gukora ikizamini, kubera ko bose bari hamwe bari kureba, bakungurana ibitekerezo, barebana, bari gutekereza cyane, nk'abari kwibaza ku byo bari gukora, kugira ngo babashe kureba ko babasha gutsinda. Bakaba bakoze itsinda, begeranye hamwe, bakaba bari gukora imikoro babahaye.

Aho bari kwiga ibikoresho by'umuziki, bigaragara ko ari ahantu abanyeshuri bigira umuziki, mu kigo cy'umuziki kigisha binyuranye no gucuranga, ibikoresho bye bitandukanye ndetse no kuririmba kuko bigaragara harimo umwigisha wo kubigisha gukoresha ibyo bikoresho by'imiziki.

Itsinda ry'abaririmbyi bambaye imyenda isa impuzankano bafite ibikoresho bya bugenewe by'ibicurangisho, harimo nka gitari n'abaririmbyi bazi kuririmba bigaragara ko bari kuririmba imbere y'abantu.

Abanyeshuri bari guca imirongo bakoresheje irati ry'urubaho, bari guca utuzu ku kibaho kindi cyo bigiraho. Bari guca imirongo inganya intera mo hagati, bigaragara ko bari mu ishuri bari kwiga gupima.

Ishuri ryaho abanyeshuri bigaragarako hari ikibaho cyo kwandikaho hagaragara intebe zo kwicaraho ibitabo byo gufasha abanyeshyuri mu gihe bari kwiga cyangwa abandi bantu bose uri gukora amahugurwa ku bintu runaka, hariho ameza abantu bake bake yo kwicaraho kugira ngo bungurane ibitekerezo basome nibitabo babaho nicyowati bakwandika ibindi baba bakeneye kwandika.